Itsinda rihuriyemo abayobozi b'inzego zitandukanye. Harimo umugore wambaye umwambaro utukura ndetse n'abagabo bamukikije, barimo baganira ku byateza Igihugu imbere.

Abaturage bari mu ngeri zose, urubyiruko, abagore, abagabo, abasaza ndetse n'abakecuru bicaye hamwe n'abayobozi ndetse n'ingabo z'igihugu na polisi, bumvira hamwe ibyateza igihugu imbere.

Umuryango w'ingoro y'ibwami uteretseho icumu rirerire ndetse n'ingabo, byose biranga umuco n'amateka by'abanyarwanda.

N'ibirenge by'umubyinnyi ubyina imbyino gakondo, biriho amayugi yifashishwa mu gutanga injyana, bigatuma imbyino iryohera uyireba ndetse n'uyumva.

Umutegarugori wambaye imyambaro y'umuco nyarwanda, iri mu ibara ry'umweru, atarama mu buryo bugendanye kandi bwubahirije umuco nyarwanda.

Ishyamba rigizwe n'ibiti bigufi n'ibirebire ndetse n'umuyoboro w'amashanyarazi ufite insinga ndende zitwara amashanyarazi ziyakura mu gice kimwe ziyajyana mu kindi.

Abakozi b'ikigo cy'igihugu gishinzwe gusakaza umuriro w'amashanyarazi mu gihugu, barimo gukora ibijyanye n'imiyoboro mishya y'amashanyarazi yegerezwa abaturage.

Umukozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe gukwirakwiza ndetse no gutanga amashanyarazi, yuriye ipoto, ari hejuru, afite ibikoresho byabugenewe ndetse arimo arakurura insinga kugira ngo akwirakwize umuriro no kubatawufite.

Inyubako zubatse mu buryo bumwe zubakishijwe amatafari ahiye. Zisakajwe amabati afite ibara ry'umutuku ndetse abona ko zisa neza cyane.

Inyubako ifite umuryango ukinguye, inafite intebe igaragara ko zakira abantu bicararaho mu gihe bategereje guhabwa serivisi. Iyi nyubako akaba ari iy'urugo mbonezamikurire y'abana batoya.

Ikigo cy'amashuri kirimo kubakwa ndetse n'abanyeshuri bambaye impuzankano z'umweru n'umukara, ikigo kirimo intebe zisa umuhondo ndetse n'abafundi barimo kubaka.

Umupolisi wambaye imyambaro y'akazi mu ibara ry'umukara, afite mikoro, inyuma ye hari inyubako n'ubukarabiro ndetse n'abaturage ari kugeza ku baturage, ubutumwa bwiza.

Itsinda ry'abaturage barimo abagore abagabo n'abakecuru bicaye ku ntebe zo mu ibara ry'umweru, umukozi w'ikigo cyigihugu gishinzwe ubugenzacyaha ari kubaganiriza ku buryo bwiza bakwirindamo gukora ibyaha.

Itsinda ry'abaturage benshi cyane rigizwe n'ingeri zose, abagabo, abagore ndetse n'abana n'umuyobozi uhagaze imbere yabo ababwira ibyateza igihugu cyacu imbere.

Itsinda ry'abayobozi b'ingeri zose, harimo umugore wambaye imyambaro myiza ya kinyarwanda. Iri mu ibara ry'umweru ndetse n'umupira w'umuhondo. Ari kumwe n'abayobozi b'inzego zitandukanye z'Igihugu bahuriza hamwe ibyateza Igihugu imbere.

itsinda ry'abantu bagiye batandukanye, harimo abagore, abagabo, abasaza n'abakecuru, bicaranye n'umukozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubugenzacyaha.

Icyapa kiri ku ruhande rw'umuhanda cyandikishijwe amagambo ari mu ibara ry'umukara ndetse n'inyubako igizwe n'igipangu ndetse iyo nyubako ikikijwe n'ibiti.

Abagabo batatu babiri muri bo ni abasivili bafite amasuka bari mu gikorwa cyo guhinga, umwe muri bo umusirikare ingabo y'igihugu bari mu gikorwa cy'umuganda, bahingira abaturage.

Itsinda rigizwe n'abaturage b'ingeri zitandukanye abagore, abasaza, abasore, n'inkumi bari kumwe n'abayobozi b'inzego za Leta bishimira ibyagezweho.

Itsinda ry'abaturage bari mu ngeri zitandukanye, harimo urubyiruko, abagabo ndetse n'abagore n'abana bafatanyije n'ingabo z'igihugu bakora igikorwa cy'umuganda giteza igihugu imbere.

Umupolisikazi wicaye ku ntebe afite mudasobwa irambitse ku meza barimo kwakira abamugana abaha serivisi nziza cyateza igihugu imbere.

Itsinda ry'abagabo bambaye imyambaro ya siporo, umwe yambaye umupira utukura, undi yambaye umupira w'umukara ufite n'uturongo tw'icyatsi muriwo.

Abagabo bane bambaye impuzankano, yifashishwa muri siporo, cyane cyane abakinnyi b'umupira w'amaguru, bari mu kibuga ndetse bakikijwe n'ibiti, inyuma yabo.

Umuhanda uri hagati mu murima ukikijwe n'ibiti hirya no hino iburyo n'ibumoso, abantu batambuka muri uwo muhanda, umuhanda ufasha abantu kugenderanira kuva ku ruhande rumwe kujya kurundi.

Umuhanda ukikijwe n'imirima hirya no hino, abanyeshuri babiri b'abakobwa umwe ahetse igikapu ,bambaye impuzankano yo mu ibara ry'umutuku ndetse n'icyatsi ,bafite amakayi bavuye kwiga.